Aha ngaha ndahabona inzu irimo etajeri y'umukara muri etajeri harimo ibyo kunywa za mitsingi, za pirimusi, amusiteri n'amarikeri.

Aha ngaha ndahabona inyubako ngufiya, iriho icyapa cyanditse mu mabara y'umweru, cyanditseho amagambo Bahamas Pub, inyuma yaho hari inzu ndende, hagati yaho harimo ibiti bitoshye neza.

Ahangaha ndahabona inyubako ikorerwamo ibintu byinshi, haparitse amamodoka imbere yayo hari n'icyapa cyanditseho MUTZIG kigaragaza icyo bahakorera n'umutaka wo mu ibara ry'umuhondo wa MOBILE MONEY.

Aha ngaha hari igipapuro cya menu cyanditseho ibiciro. Bifasha buri muntu wese uje aha ngaha guhita abona igiciro cya buri kintu, bimworoheye.

Ahakorerwa igikorwa cyo gucuruza amata y'inyange n'amazi y'inyange, ni munzu isize irange ry'ubururu, ifite parafo y'umweru. Bigaragara ko banishyura bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bwa mobayilo.

Igicuba kirimo amata, mu nzu irimo amakaro, harimo umukobwa wambaye ikabutura, n'intebe ikoze mu giti, aho hantu bigaragara ko hakorerwa igikorwa cyo gucuruza amata.

Aha ngaha ndahabona umubyeyi wicaye, imbere ye hari ibicuruzwa, harimo amata y'ikivuguto na yawurute, inyuma ye hari na firigo.

Akazu gacururizwamo serivise z'ikoranabuhanga, guhererekanya amafaranga no kubitsa amafaranga akazu gasize ibara ry'umuhondo.

Ahangaha ndahabona akazu gasize ibara ry'umuhondo hakorerwamo serivise za mobayiro mani, kicayemo umugabo wambaye umupira w'umweru hejuru, iruhande rwaho hari abana batoya.

Aha ngaha ndahabona abakobwa babiri bambaye imipira irimo amabara y'umuhondo, ya emutiyene, bambayae n'amabaji, bigaragara ko bakora simuswapu.

Aha ngaha ndabona abagabo batatu, babiri bambaye imipira y'umuhondo ya MTN umwe yambaye w'umweru arahagaze bigaragara ko barimo bamuha serivise imbere yabo hari machine.

Ahangaha ndahabona moto yensitayeho ibikoresho byikoranabuhanga bifasha umugenzi murugendo rwe kwishyura adahenzwe.

Aha ngaha ndahabona imodoka z'amakamyo ziparitse, zisize amarange y'umweru, hejuru hari ibyapa bisize amarange y'umuhondo byanditseho twiga.